Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi n'ikoranabuhanga, ni urwa banki runaka rugufasha kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rwa banki runaka, rukorera kuri murandasi n'ikoranabuhanga, aho rugufasha kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse, akakugeraho bitagusabye kuva aho uherereye.

Uru ni urubuga rwa banki runaka rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho rugufasha kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse, akakugeraho bitagusabye kuva aho uherereye.

Uyu ni umugabo ubona usa nkukuze arishimye cyane yambaye agashati k'igitenge afite ikintu kimeze nk'urufunguzo mu biganza bye inyuma kandi hari imodoka nini itwara imizigo y'umweru n'ibirahure by'umukara.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, hahagazemo ikinyabiziga cyiza cyane cy'imodoka gikeye, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abagabo babiri basa nk'abakuze ahantu hamwe barakeye cyane, bafite ikintu kimeze nk'urufunguzo mu biganza byabo, inyuma kandi hari imodoka nziza nini itwara imizigo y'umweru.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho rugufasha kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse, bitagusabye kuva aho waba uherereye aho ariho hose.

Inyubako nziza rwose igeretse rimwe ikodeshwa igihumbi magana arindwi y'idolari buri kwezi ikaba ari inyubako ifite ibyumba bitanu byo kuraramo, ndetse n'ubwogero butanu, rero ni inzu nziza cyane ushobora kuza ugakodesha hanyuma ukabaho neza, iherereye i Kigali kibagabaga.

Ibicupa binini, amaji ndetse n'ibindi bicuruzwa bigezweho usanga bihenze cyane mu masoko acuruza ibiribwa mu mujyi wa Kigali abantu benshi babigana barinubira igiciro kiri hejuru.

Uru ni urubuga rukorera ku ikoranabuhanga ndetse na murandasi, aho rugufasha kwishyura kohereza, kwakira amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitagusabye kuva aho waba uherereye hose.

Iyi ni inzu nziza yo mu bwoko bwa etage igerekeranyije, isize amabara y'umweru hasi no hejuru no kumpande zayo; munsi gato hari ubusitani bwiza burimo indabo zitandukanye yaba iz'icyatsi n'umuhondo .

Aba ni abantu benshi basa nk'abakuze, higanjemo urubyiruko, abakobwa n'abahungu ndetse n'abagore n'abagabo hari n'abana imbere yabo, hari icyapa kirekire cyanditseho amagambo ejo heza kiri mu mabara y'umweru.